Akabati gafite ibara rya shokora, aho karimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, harimo kandi umukozi wabihuguriwe wambaye ikataburiya y'umweru ugurisha iyi miti.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite telefone mu kuboko kwe, akaba ari mu nzu icuruza imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Iyo miti ikaba iri mu kabati gafite ibara rya shokora.

Icyumba kirimo amakaro y'umweru, kirimo kandi utubati dusa umweru, turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo. Iyo miti iri mu ducupa mu mashashi n'ibindi.

Abahinzi bahinze ibigori baje kureba uko bihagaze nyuma y'uko babifumbiye neza, bakaba bari kureba niba nta dukoko turimo dushobora kwangiza imyaka yabo bikaba byabatera igihombo.

Ifumbire mvaruganda ziri mu moko atandukanye yifashishwa haba mu kubagara, mu gutera imbuto ndetse no mu bindi, ni byiza ko rero umuhinzi amenya kuzitandukanya kugira ngo atibeshya agakoresha itari ngombwa cyangwa se itaragenewe igihingwa runaka.

Icyumba kirimo utubati dufite ibara rya shokora, turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, iyo miti ipfunyitse mu ducupa, mu mashashi no mu bindi bintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ikanzu y'umweru uhetse ipompo y'ubururu. Aho arimo aratera ibirayi umuti. Kugira ngo yice udukoko dutandukanye dushobora kubirya, tukaba twamubuza umusaruro yifuza.

Icyumba kirimo utubati twinshi, utwo tubati urabona ko turimo imiti myinshi itandukanye y'amatungo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko, ubona ko ari icyumba kigurisha imiti ndetse n'ibiribwa by'amatungo.

Umugore wunamye wambaye ikote ndetse n'igitenge, aho arimo arashyira imvaruganda ku giti cya kawa kugira ngo gikure neza kizatange umusaruro mwinshi.

Icyumba kirimo utubati turimo imiti, ikaba ari imiti y'amatungo icuruzwa n'umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone na mudasobwa.

Ni iby'ingenzi ko umuhinzi amenya gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse akanazitandukanya, kuko iyo atabisobanukiwe akoresha ifumbire ahatariho, ibi bikaba byamugusha mu gihombo kuko bishobora kwica imyaka.

Akabati karekare karimo imiti itandukanye y'amatungo, imwe iri mu mashashi indi mu dukarito hari n'iri mu ducupa, hejuru y'ako kabati hari ibikoresho byifashishwa mu kugaburira amatungo nk'inkoko.

Umugabo n'umugore b'abahinzi barimo barishimira kuba bafite, ifumbire y'imvaruganda bagiye gukoresha batera imyaka yabo kubera ko iyo ukoresheje ifumbire mvaruganda bituma imyaka yawe yera neza.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu, aho arimo arasobanurira abandi uko bakoresha imvaruganda zitandukanye, bitewe n'ibihingwa ugiye gutera. Ibi rero ni byiza kuko bituma abahinzi basobanukirwa, bagakoresha imvaruganda neza.

Abagabo bane bari mu murima aho barimo barahinga bakoresheje amasuka, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umweru, umukara ndetse na kaki, inyuma yabo hari ibisambu binini bisa nkaho ari inzuri z'inka.

Ni byiza ko umuhinzi wabigize umwuga amenya gutandukanya imvaruganda zihari ndetse naho agomba kuzikoresha, kuko kutabimenya bishobora gutuma agwa mu gihombo.

Ifumbire mvaruganda ziri mu moko menshi atandukanye, rero ni byiza ko umuhinzi azimenya akazisobanukirwa ndetse akamenya n'uko zikoreshwa, ibi rero birinda kuba ifumbire yakoreshwa ahatariho ikaba yakwangiza imyaka.

Icyumba gicuruza imiti y'amatungo harimo imeza irambitseho ikaye n'ikaramu, harimo kandi utubati dufite ibara rya shokora turimo imiti ipakiye mu ducupa mu makarito ndetse no mu mashashi.

Ifumbire z'imvaruganda ni nziza kumenya kuzikoresha ariko no gusobanukirwa uburyo zikoreshwamo na byo ni ingenzi kubera ko iyo utabisobanukiwe ushobora kuzikoresha ahatarabugenewe ukaba wagwa mu gihombo.

Ifumbire mvaruganda zitandukanye harimo nka ile ndetse n'izindi zose zifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye. Ni iby'ingenzi ko umuhinzi amenya kuzitandukanya kugira ngo amenye iyo akoresha ku gihingwa runaka.

Ubuhinzi buteye imbere, usanga bukoresha amafumbire atandukanye, harimo imborera ndetse n'imvaruganda, aho yose akoreshwa kugira ngo umusaruro uzaboneke uhagije kandi mwiza cyane.

Imiti itandukanye y'amatungo iri mu ducupa iyindi iri mu makarito, ikaba ari imiti ihabwa amatungo mu gihe arwaye indwara zitandukanye cyangwa se ari inkingo zifasha mu kuyarinda ibyorezo.

Akabati gasa shokora karimo imiti ndetse n'ingemwe zitandukanye n'imirama yifashishwa mu buhinzi, hejuru yako hari ibikoresho byifashishwa mu kuhira.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu kayira k'igitaka, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo umugabo umwe uri gusunika igare ripakiye imifuka myinshi, hari kandi n'abagore bamuri inyuma bambaye udupira tw'imituku.

Akabati gafite ibirahure byererana ndetse n'ibiti bisa umweru, karimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse n'iyo mu buhinzi kandi kuri ako kabati hejuru hariho imyunyu ihabwa inka, harimo amakarito n'ibindi.

Icyumba kinini cyane cy'uruganda, aho nyuma yo gukora ibicuruzwa bitandukanye babipakira kugira ngo bibe bihari bitegereje imodoka ziza kubijyana mu mabotike.

Abahinzi bari mu murima wabo, aho bagiye gutera imbuto nyuma yo gutunganya umurima wabo neza. Ibi rero bituma beza neza kandi bagasagurira n'amasoko.

U Rwanda na rwo rumaze gutera imbere mu bijyanye n'ubuhinzi, aho ubu ngubu basigaye batera ku murongo kandi bagatera igihingwa kimwe, ibi ngibi byongera umusaruro bigatuma Abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije.

Icyumba gicururizwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, iki cyumba kirimo akabati k'ibirahuri gasa n'umweru, karimo imiti ipfunyitse mu dukarito no mu macupa.

Ifumbire y'imborera ni imwe mu zikomoka ku matungo yifashishwa mu buhinzi, aho ituma imyaka ikura kandi ikera neza, rero ni byiza kuyikoresha kugira ngo umusaruro wiyongere.

Uugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye mu cyumba kirimo utubati tunini dusa umweru, utwo tubati turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, ikaba ipfunyitse mu makarito, mu mashashi ndetse no mu ducupa.

Icyumba giteye irangi ry'umweru. Iki cyumba kandi kirimo akabati na ko gasa umweru karimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, harimo ipfunyitse mu mashashi, iri mu ducupa n'iyindi itandukanye.

Icyumba gicururizwamo imiti y'amatungo itandukanye. Harimo utubati dufite amabara atandukanye nk'udusa nka shokora, umweru n'utundi. Iyo miti ipfunyitse mu makarito, mu ducupa ndetse no mu mashashi.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'umukara. Inyuma ye hari akabati kanini cyane gasa umweru karimo imiti y'amatungo, imwe iri mu makarito, indi iri mu macupa y'ibirahure. Hejuru y'ako kabati kandi hari ibikoresho byifashishwa mu kugaburira amatungo y'inkoko.

Umugabo w'umuhinzi wambaye agapira ka oranje n'ipantaro y'umukara, yafashe ku gitoki yahinze, ari kwishimira uburyo cyakuze neza, anakirata kugira ngo n'abandi babibone, bityo bamwigireho.

Ubuhinzi bw'inanasi bwa kinyamwuga, ni ingenzi kandi ni bwiza cyane kuko buteza imbere ababukora kubera ko inanasi ari zimwe mu mbuto nziza kandi zikundwa, umubiri wacu ukenera kugira ngo ukore neza.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu, kuko giteza imbere uyihinga ndetse n'u Rwanda muri rusange. Iki gihingwa ni cyiza cyane, abantu baragikunda, uretse n'Abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda ikawa ituruka mu Rwanda.

Umugabo urimo aragaragaza umusaruro yagize nyuma yuko ahinze ibigori bikera neza akaba intangarugero, arimo aratanga ikiganiro abwira abandi bahinzi uko bakwiye guhinga.

Ubuhinzi bw'umuceri ni ingirakamaro kandi bwinjiza amafaranga menshi, ubundi kera byasabaga ko umuceri utumizwa mu mahanga ariko kuri ubu, u Rwanda na rwo rusigaye rwihingira umuceri.

Igihingwa k'ikigori ni kimwe mu bihingwa biteza imbere ubuhinzi. Iyo ubihinze neza ukurikije amabwiriza ugakoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera ugira umusaruro mwinshi.

Abantu barimo abagabo ndetse n'umugore baje mu murima, aho bahinze imbuto z'ibinyomoro, bari kureba niba imbuto bateye yareze neza, izabazanira umusaruro.

Ni byiza guhinga ibigori ukurikije amabwiriza kubera ko iyo ukurikije ibisabwa neza weza neza, ukagira umusaruro mwinshi bityo ukaba wakunguka n'amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'inanasi ni bwiza cyane kuko bufasha ubukora kubona amafaranga menshi ahagije, inanasi zirera zikera neza ntago zikunze kurumba, bityo rero ni byiza ko abahinzi bakora uyu mushinga kuko ugira amafaranga.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza kubera ko buteza imbere ubukora kandi agasagurira n'amasoko bityo abaturage bakabona ibyo kurya, si ibyo gusa kuko abantu bashobora no guhinga ibitoki bivamo imitobe.

Iyo umuhinzi ahinze neza mu buryo bwa kijyambere, agakurikiza amabwiriza yose, agatera imiti kandi akoresheje n'amafumbire arimo imborera n'imvaruganda, usanga yeza neza akabona umusaruro ushimishije.

Umugabo wunamye mu murima we yahinzemo igihingwa k'ibitunguru, aho arimo arareba niba byeze kugira ngo abijyane ku isoko na we abone inyungu, ni byiza rero guhinga bya kijyambere.

Abantu bahuriye hamwe. Harimo abagore ndetse n'abagabo. Barunamye abandi barasutamye. Barimo barajonjora imbuto yo gutera kuko mu yo bafite harimo izapfuye.

Ubworozi bw'inkwavu na bwo ni bwiza kuko bufasha ababukora kwiteza imbere babona amafaranga, bikemurira ibibazo bitandukanye bya buri munsi: nka minerval z'abana, kugura ibikoresho by'ishuri, mituweli ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane kuko bifasha umuntu uzorora kubona amafaranga ndetse no kwiteza imbere, bityo bikamufasha gukemura ibibazo bye bya buri munsi ahura nabyo.

Iyo woroye amatungo cyane cyane inka, ni byiza kumenya uko ugomba kuzitaho kubera ko iyo utabikoze usanga zirwaragurika bityo zikaba zanagupfana, inka nazo ziba zigomba kunywa amazi meza.

Kuri ubu ingurube ntizikijyanwa ku mfizi, ahubwo uhamagara veterineri w'amatungo akayiguterera intanga. Ibi rero ni byiza kuko bituma itungo ryawe ribyara ibibwana wifuza.

Iyo umworozi w'ingurube abona ko yabuze isekurume nziza, ni byiza ko ahamagara veterineri akaba yamuterera intanga, kubera ko na byo ari ingenzi, akenshi usanga aribyo bigezweho.

Icupa riteretse ku meza risa umweru, rizengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo. Aka gapapuro kandi gashushanyijeho inka.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bukoresha amafumbire atandukanye, harimo imborera ndetse n'imvaruganda, ibi bituma imyaka ikura neza kuko iba ibona intungamubiri zose.

Umugabo w'umuhinzi wambaye umupira wa kaki ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo arahinga aho bamaze gusarura ibigori nyuma yo kweza.

Umugabo w'umuhinzi aho arimo arabagara intoryi yateye bityo kugira ngo zere neza abone umusaruro awujyane ku isoko maze yunguke amafaranga, ni byiza rero ko abantu bakura amaboko mu mifuka bagakora.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo bari guhinga umurima uri haruguru y'inzu. Uwo murima ukaba uteyemo insina. Abo bantu kandi bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'ayandi.

Abagore batatu bari mu murima, aho barimo baratera imbuto yabo nziza nyuma yuko bamaze guhinga neza bagatunganya umurima wabo nk'uko bikwiye, ni byiza rero kwita ku murima wawe kugira ngo n'imyaka uhinzemo izere neza.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imyeru bari mu murima, aho bari guhinga bakuramo imyanda nyuma yo kweza ibigori, kugira ngo bateremo iyindi myaka.

Ubuhinzi buteye imbere bwifashisha amamashini yabugenewe, usanga bugira umusaruro uri hejuru cyane kuko bahinga ahantu hanini kandi neza.

Itsinda ry'abantu bari mu murima aho barimo baratera imbuto nyuma yuko bahinze umurima wabo ukaba umeze neza. Hari abantu rero bagera kuri batandatu ndetse n'undi ufite igare.

Muri gahunda za Leta, harimo no gushishikariza Abanyarwanda kubaka uturima tw'igikoni. Kuko duhingwamo imboga zitandukanye, zifashishwa mu kurwanya igwingira ry'abana. Ibi bigatuma abana bagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye harimo: dodo, karoti, intoryi n'izindi ni ingenzi cyane mu Rwanda kuko zituma Abanyarwanda babona ibyo kurya by'umwihariko bikomoka ku mboga.

Umugabo uri guhinga, hejuru arikuye hasi yambaye ipantaro, afite isuka mu kuboko kwe, akikijwe n'insina ndetse n'ibiti yateye ku murima we kugira ngo awurinde isuri.

Abahinzi bari mu murima wabo aho bahinze umuceri, bakaba bari kureba niba wareze neza cyangwa se niba utareze neza, bareba imbogamizi zabayeho kugira ngo ubutaha bazazikemure.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero, agapira karimo utubara ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ahetse ipompo mu mugongo ndetse afashe n'akabido k'umweru mu kuboko kwe, arimo aratera umuti imyaka ye ayirinda udukoko dushobora kuyangiza.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse uri mu murima afite n'isuka ari guhinga, hakurya hari ikibaya ndetse n'amazu ari hejuru musozi n'urutoki.

Umuhinzi wabigize umwuga, waje kwerekana uburyo akoresha ahinga kugira ngo yeze neza, na we akaba yishimiye umusaruro abona, aho aba yasuwe nk'intangarugero.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore ndetse n'urubyiruko. Bambaye imyenda iri mu mumabara y'umutuku, ubururu n'umukara. Barunamye bari gupakira itaka mu dushashi kugira ngo bateremo ingemwe, bazishyire muri pipiniyeri.

Abahinzi bari mu murima aho barimo barasarura imboga rwatsi cyangwa se dodo, abandi barimo barazibagara bica n'udukoko dutandukanye dushobora kuzirya, bityo bigatuma bahomba.

Abahinzi babigize umwuga, barimo barahinga imbuto z'amatunda. Aho bazishingira ibiti, zizakuriraho kugira ngo zitaribwa n'udukoko, kandi zinere neza, ibi ngibi kandi bituma byoroha mu kuzisarura.

Itsinda ry'abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, barimo baruhira imbuto bateye. Ni byiza rero ko imbuto nk'izwi zishyirwa aha hantu zikitabwaho mbere y'uko zijyanwa aho zagenewe guterwa kuko bituma zikura neza.

Umugabo w'umuhinzi wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi ufite isuka, arimo aratunganya umurima we neza, aca imiyoboro ateramo imyaka ku murongo kugira ngo yeze neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukorwa neza kandi abantu bitonze kubera ko imyaka iterwa ku murongo, ibi rero bituma yera neza kandi igatanga umusaruro mwinshi.

Avoka ni zimwe mu mbuto nziza umubiri wacu ukeneye kugira ngo ukore neza, ni cyo gituma Abanyarwanda bazikunda kandi ziba zinagura makeya ku masoko, usanga hirya no hino zihari.

Abahinzi benshi ubona ko bari mu murima munini cyane w'ibigori, aho barimo barabagara bakuramo ibyatsi bitandukanye, bashyiramo n'imiti ishobora kwica udukoko dushobora kurya ibi bigori.

Ubuhinzi bw'ibigori bumaze gutera imbere mu Rwanda. Aho usanga barubatse hangari iruhande rwabyo. Maze byamara kwera bakabimanikaho kugirango byume neza maze babyerekeze ku ruganda bikorwemo akawunga.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ahagaze mu murima we yahinzemo ibigori. Ari kugaragaza umusaruro yabonye w'ibigori, ubona ko ari ibigori byiza, byeze neza.

Iyo ugeze ku isoko usanga hari imbuto zitandukanye z'ubwoko bwinshi. Harimo inkeri, pome, amaronji, amapera, imineke n'iyindi myinshi abantu bakunda cyane, ibi rero bigatuma Abanyarwanda bihaza mu biribwa.

Aha ni ku ruganda rutunganya ibikomoka ku buhinzi, aho usanga abaturage bejeje ibigori, umuceri, babizana kuri uru ruganda bakabigurisha, maze bigatunganywa bigashyirwa mu mifuka.

Imbuto za avoka ni zimwe mu zikundwa n'abantu benshi, aho usanga zuzuye ku masoko kandi zigura makeya by'umwihariko usanga ari na nziza ku mubiri w'umuntu, kuko zituma igogora rigenda neza.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bwiza cyane kandi buteza imbere ababukora kubera ko ziba zikenewe n'abantu benshi hano mu Rwanda, rimwe na rimwe ugasanga zabuze bitewe n'igihe ariko iyo zabonetse ziba zihendutse, buri Munyarwanda wese ashobora kuzigurira.

Ubuhinzi bw'ibitoki mu Rwanda bwateye imbere; ku buryo iyo ugeze ku isoko usanga hari ibitoki byinshi cyane, kandi ku mafaranga makeya. Ibi bigatuma Abanyarwanda babona ibiribwa mu buryo bworoshye.

Abagabo babiri bakora mu ruganda barimo baraterura imifuka, bayipakira neza kugira ngo bayirinde kuba yakwangirika, bayishyira ahantu hatari ubukonje cyangwa se hatari udusimba dushobora gupfumura tukaba twarya imyaka irimo imbere.

Avoka ni zimwe mu mbuto umubiri wacu ukenera kugira ngo ukore neza, ni byiza rero ko buri muntu wese amenya agaciro kayo bityo akayirya, bizamufasha gutuma ubuzima bwe bugenda neza.

Avoka ni rumwe mu rubuto abantu bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi n'umuntu uzisarura na we bimuha amafaranga kuko azijyana ku isoko akazigurisha bityo akunguka.

Ubuhinzi bw'umuceri bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho usanga ibishanga kera byapfushwaga ubusa ubu ngubu byose bisigaye bihingwamo umuceri, ibi bigatuma u Rwanda na rwo rubona ibiryo byinshi bityo rukihaza.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umuhondo avuga ngo ku Bigega, akaba ari ahantu hazwi cyane mu Rwanda, abantu benshi batandukanye bashobora kukubwira.

Avoka na zo ni zimwe mu mbuto Abanyarwanda bakunda cyane, kandi ziba zikenewe n'umubiri kugira ngo ukore neza, iyo rero ugeze ku isoko usanga zihari cyane kandi zigura makeya.

Umugabo wasetse wambaye ishati y'iroza, urabona ko yishimiye cyane kuba yarahinze umuceri ukera, none akaba ari kuwusarura agiye kuwugurisha ku isoko kugira ngo nawe yunguke abone amafaranga.

Abantu barambuye amashitingi maze banikaho umusaruro wabo w'umuceri, urabona ko ari umusaruro mwinshi cyane kandi bakaba bishimiye ibyo bagezeho, hirya hari abandi na bo bicaye barimo barahura uwo muceri kugira ngo bawanike.

Abacuruzi batandukanye baturutse impande n'impande mu gihugu, baba bazanye umusaruro wabo w'inyanya ku isoko kugira ngo babone inyungu, nyuma y'uko bakoresheje imbaraga nyinshi bazihinga banazitaho,

Ubuhinzi bwo mu Rwanda bwateye imbere, ku buryo usanga imodoka ari zo zisigaye zitwara umusaruro ziwujyana ku isoko mu bice bitandukanye by'igihugu, ibi bigatuma Abanyarwanda babona ibiryo bihagije.

Ibidukikije bitandukanye birimo nk'amashyamba, na byo bigomba kwitabwaho. Hirindwa kubitema cyane kugira ngo, bidacika bityo hakaba haza isuri cyangwa se, amapfa agatera.

Muri gahunda za Leta harimo no gushishikariza Abanyarwanda kubaka uturima tw'igikoni kubera ko dutuma babona imboga zitandukanye, harimo nk'idodo, amashu, karoti ndetse n'izindi zifasha abana mu kugira imirire myiza.

Urubuto rw'ipapayi na rwo ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko rugira intungamubiri ziba zikenewe n'umubiri kugira ngo ukore neza, by'umwihariko ku bana ndetse no ku babyeyi batwite baba barukeneye.

Ubuhinzi bw'urutoki na bwo ni ingenzi kandi bikunze guhira umuntu wabukoze neza akurikije amabwiriza ahabwa n'ababihuguriwe kuko urutoki iyo rweze neza na rwo rutanga amafaranga.

Abantu biganjemo abagabo ariko harimo n'abagore, bahuriye mu murima aho baje kureba imyaka bateye uko imeze. Inyuma yabo hari inzu yubakishije ibyondo.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye harimo na karoti ni ingenzi kandi bunateza imbere ubukora, ikindi ni byiza ku buzima bw'umuntu ko arya imboga zitandukanye kuko bituma umubiri ukora neza.

Mu Rwanda dufite imisozi myinshi ndetse n'ibibaya byinshi, ibi ngibi bikaba bikurura ba mukerarugendo baza kureba imisozi yo mu Rwanda kuko haba hagaragara neza cyane koko.

Voka ni zimwe mu mbuto zizwiho kugira intungamubiri nyinshi kandi zigatuma umubiri ukora neza, ni byiza rero kumenya ko nazo ziba zikenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Muri gahunda za leta, harimo no kugira isuku, ku mihanda hose. Aho ahari ibihuru, leta yategetse ko bagomba kubihavana, ahubwo bakahashyira indabo. Kugira ngo, ibice byo ku muhanda byose mu gihugu, bigaragare neza.

Abacuruzi baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, baza mu isoko bazanye ibicuruzwa byabo birimo imbuto, ibikomoka ku mboga ndetse n'impeke baje kubigurisha kugira ngo babone inyungu.

Mu isoko usanga hari imbuto zitandukanye ziganjemo pome, imineke, amatunda, ibinyomoro ndetse n'izindi nyinshi aho ziba zihendutse, ibi ngibi ni byiza kuko abanyarwanda bakenera imbuto zo kurya.

Ahandi ku isoko, aho abacuruzi bavuye mu bice bitandukanye baba baje gucuruza, bazanye ibicuruzwa byabo birimo: inyanya, insenda, pavuro ndetse na karoti.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira urimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, mu maboko ye afashe ingemwe bari barahumbitse, akaba agiye kuzitera kugira ngo zizere zivemo ibiti binini.

Aha ni ku isoko aho abacuruzi baturutse impande zitandukanye mu gihugu bazana ibicuruzwa byabo kubigurisha kugira ngo babone inyungu, ibi ngibi bigatuma n'Abanyarwanda babona ibyo bahaha.

Iri ni isoko, aho abacuruzi batandukanye baba bazanye ibicuruzwa byabo birimo imbuto nk'imineke, amaronji n'imyembe, kandi iruhande rw'izo mbuto hari icupa ry'amazi ndetse n'umunzani wifashishwa mu gupima ibyo bicuruzwa.

Kurya imbuto, ni byiza cyane ku buzima bw'umuntu. Kuko bituma umubiri ukora neza. Kandi ukagira vitamini zitandukanye, ziwufasha gukura, ndetse no kwirinda indwara.

Aha ni ku isoko aho abacuruzi batandukanye bavuye hirya no hino mu gihugu bazana ibicuruzwa byabo birimo imiteja, hakabamo seleri, karoti, ndetse n'ibindi kugira ngo babigurishe babone amafaranga.

Iyo ugeze ku isoko usanga hari ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko ibikomoka ku mboga nka pavuro, inyanya, karoti ndetse n'izindi zitandukanye, ibi bigatuma Abanyarwanda babona ibyo kurya byiza kandi byujuje intungamubiri ziba zikenewe n'umubiri.

Ubuhinzi bw'imbuto burimo n'iz'ibinyomoro ni bwiza cyane, kuko bufasha abanyarwanda kubona imbuto zo kurya, kandi koko biba bikenewe kuko umubiri wacu ukenera imbuto.

Mu bwoko bw'imboga butandukanye, abantu bakenera kurya. Harimo n'imboga rwatsi, cyangwa se izo bakunze kwita dodo. Zikaba zifite umumaro munini ku muntu, aho zifasha amaso kureba neza.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye burimo intoryi ni ingenzi mu Rwanda, kuko zituma Abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije kandi bifite intungamubiri, by'umwihariko ku bana bakenera kurya imboga kugira ngo batagwingira.

Umugabo w'umuhinzi urimo urasasira inyanya ze kugira ngo azirinde udukoko ndetse no kwangizwa n'imvura nyinshi, yifashisha uburyo butandukanye kugira ngo agere ku ntego ye yo kweza inyanya nyinshi nk'uko abyifuza.

Muri gahunda za leta harimo no gushishikariza abaturarwanda bose kubaka akarima k'igikoni, kuko gahingwamo imboga zitandukanye zifashishwa mu kurwanya igwingira ry'abana, ibyo rero bigatuma mu Rwanda igwingira ryaracitse.

Intoryi n'inyanya na zo ni zimwe mu mboga zigomba kuribwa n'umuntu, kubera ko umubiri uba uzikeneye. Ibi rero bigatuma biteza imbere abahinzi, ndetse n'abacuruzi b'izi mboga.

Ubuhinzi bw'imboga ni ingenzi kuko bituma Abanyarwanda babona imboga zo kurya, muri izo mboga harimo na karoti kuko zifite intungamubiri nyinshi kandi zirwanya igwingira.

Umugore uri gucuruza imbuto, yikoreye ibase irimo imineke mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo akabase kariho imbuto z'ibinyomoro, ari mu muhanda uparitsemo imodoka zitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye burimo n'imboga rwatsi, ni ingenzi kuko Abanyarwanda benshi barazikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi by'umwihariko bizanira amafaranga umuhinzi.

Ubuhinzi bw'imbuto bumaze gutera imbere mu Rwanda, abahinzi batandukanye bamenye agaciro ko guhinga izi mbuto, abenshi bakunda guhinga ibinyomoro, amatunda ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ziribwa hano mu Rwanda.

Umusaruro w'ibitunguru biri mu moko atandukanye harimo ibisa umweru n'ibindi bisaba umutuku, byose ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu kuko bifasha mu mikorere myiza y'umubiri bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Akarima k'igikoni kanini gateyemo imboga ziganjemo dodo ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha abantu kwihaza mu biribwa barwanya indyo mbi bityo bakagira ubuzima bwiza bakarwanya no kugwingira.

Muri gahunda za leta harimo no gushishikariza abanyarwanda kubaka akarima k'igikoni kuko gahingwaho imboga zitandukanye zifashishwa mu kurwanya igwingira ry'abana. Ibi rero ni byiza kuko bituma abana bakura neza bafite ubuzima bwiza.

Imwe mu mishinga ikomeye igira amafaranga menshi harimo n'ubuhinzi bw'imbuto, urugero nk'amapapayi, amatunda, ibinyomoro ndetse n'izindi zitandukanye, izo zose umuhinzi wazo aba afite amafaranga kuko izo mbuto zirahenda.

Abantu bakenera indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Mu ndyo yuzuye, haba harimo n'imboga zitandukanye nka karoti. Zibafasha gutuma umubiri wabo ukora neza ndetse n'igogora rikagenda neza.

Ku isoko usanga hari ibicuruzwa bitandukanye. Urugero nk'ibitunguru, imiteja, hakabamo amadegede, intoyi n'imboga nyinshi zitandukanye. Ibi rero bituma Abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye harimo n'inyanya ni ingenzi kuko Abanyarwanda baba babikeneye kugira ngo babirye bityo imibiri yabo ikore neza, si ibyo gusa kuko bigira n'umusaruro ku bahinzi.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, harimo nk'amashu ni bwiza cyane kuko butuma Abanyarwanda babona ibyo kurya kandi bihagije, by'umwihariko ku bana bakenera ibikomoka ku mboga kubera ko bibarinda kugwingira.

Ubusitani burimo ibyatsi bya pasiparume hagati hakaba harimo ururabyo rukikijwe n'amatafari ahiye, iruhande rw'ubwo busitani hari kandi urukuta ruteye irange rijya gusa nk'ivu.

Ubuhinzi bw'urusenda na bwo ni ingenzi kuko buteza imbere ubukora bitewe nuko urusenda rwoherezwa hanze bityo bikinjiriza amafaranga Igihugu ndetse n'umuhinzi muri rusange.

Imineke ni zimwe mu mbuto nziza cyane Abanyarwanda bakenera, kuko zigira intungamubiri nyinshi kandi zituma umubiri ukora neza. Ikindi zifasha no mu igogora.

Itsinda ry'abantu bahagaze, bateruye ibase y'umukara irimo umusaruro w'imbuto z'amatunda. Ubona ko bishimiye cyane umusaruro babonye. Bariku kandi n'undi, n'undi mugore wambaye ikanzu y'umutuku.

Ubuhinzi bw'imboga zirimo amashu ni ingenzi cyane ku baturage b'u Rwanda, harimo abazirya ndetse n'abahinzi by'umwihariko kuko bo nyuma yo guhinga bazijyana ku isoko bagakuramo inyungu.

Umuhinzi urimo urasarura inyanya yishimiye kuba yarahinze neza none nawe akaba yejeje umusaruro mwinshi, ni byiza rero ko abahinzi basobanukirwa uburyo bwo guhinga kugira ngo batagwa mu gihombo.

Ku isoko usanga hari ibicuruzwa bitandukanye, birimo imiteja, pavuro, ibirayi ndetse n'ibindi biba byazanywe n'abahinzi cyangwa se abacuruzi, bavuye impande n'impande mu gihugu.

Ubuhinzi bwa karoti na bwo ni ingenzi kuko ni imboga ziba zikenewe mu buzima bwa buri munsi kandi abazihinga na bo babikuramo amafaranga kuko iyo zimaze kwera bazijyana ku isoko bakagurisha bityo nabo bakunguka.

Ubuhinzi bwa karoti ni ingenzi, kuko na zo zibarirwa mu mboga abantu bakenera kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Ni byiza rero kurya imboga harimo nka karoti kugira ngo umubiri ubone vitamine, ndetse n'intungamubiri ukenera.

Muri gahunda ya Leta yo kugirira isuku ibice byose byo mu gihugu, cyane cyane ibyegereye imihanda, harimo no gutera indabo ndetse na pasuparume ku nkengero z'umuhanda, ndetse no kubaka amarigori atwara amazi.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga imbuto zitandukanye harimo imineke, amatunda, imyembe, amapapayi ndetse n'amaronji. Izo zose ziba zazanywe n'abacuruzi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Aha ni ku isoko aho usanga abacuruzi b'imbuto bishimye cyane bavuga ko bibazanira amafaranga, bigatuma na bo bakomeza ubu bucuruzi. Aho bacuruza imbuto zitandukanye zirimo ibinyomoro, amatunda, imyembe, pome, amaronji n'izindi.

Igihingwa cy'ikigori kimaze gutera imbere cyane hano mu Rwanda kuko usanga kivamo ibintu byinshi bitandukanye abantu barya ndetse kigatanga n'ubwatsi bw'amatungo. Havamo akawunga umuntu ashobora kubirya akibikura mu murima ndetse havamo n'ibindi bitandukanye.

Umubyeyi uri ku iriba wazanye n'abana be kuvoma, bazanye indobo ndetse n'amajerekani, hirya yabo hari ibigori bihinze ubona ko bisa neza, hari umwana umwe uri gupompa amazi ku iriba kugira ngo bavome.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru uhetse ipompo, arimo aratera umuti umuceri yahinze mu gishanga awurinda udukoko dutandukanye dushobora kuwurya bityo akaba yahomba.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'ishati irimo uturongo, afashe umupira mu ntoki aho ari kuwukoresha yuhira imyaka ye yahinze kugira ngo iticwa n'umwuma bitewe n'uko mu gihe cy'impeshyi izuba riba riva ari ryinshi.

Umugore wunamye wishimye, ugiye kuhira imyaka ye mu gihe cy'Impeshyi; ari kwishimira gahunda ya Leta yo kubagezaho ibikoresho bitandukanye byo kuhira, ibi bigatuma batagwa mu gihombo.

Ubuhinzi buteye imbere usanga buhinga ku butaka bugari ku murongo kandi bakoresheje ifumbire mvaruganda ariko iyo tugeze mu gihe cy'izuba, usanga bakoresha imipira mu kugira ngo bavomere imyaka yabo.

Umugabo wambaye agapira karimo utubara tw'umweru n'umukara. Arahagaze mu murima, aho afite umupira w'amazi ari kuhira imyaka ye yahinze, mu gihe cy'izuba, bitewe n'uko izuba iyo ryabaye ryinshi, ubutaka bukamuka bukabura amazi.

Iyo tugeze mu gihe cy'impeshyi hano mu Rwanda usanga izuba riva cyane bigatuma ubutaka bugagara, ibi rero bituma abahinzi benshi bifashisha imipira y'amazi kugira ngo bayikoreshe bazana amazi mu mirima yabo maze buhire.

U Rwanda ni Igihugu cyiza kinini kandi cy'imisozi igihumbi, usanga gifite ubutaka bwera kuko ku misozi hose haba hari intoki cyangwa se n'ibindi bihingwa bitandukanye Abanyarwanda barya.

Ubuhinzi bwagutse buteye imbere bukoresha ibikoresho bigezweho nk'imashini zihinga, n'ibindi bikoresho bitandukanye ndetse no guhinga imbuto imwe, ni byiza cyane kuko bituma byongera umusaruro ku isoko.

Guca amaterasi y'indinganire ku misozi ni ingenzi. Kuko bituma barinda ubutaka isuri ishobora kuza ikajyana ubwo butaka bityo bakaba babura ubutaka, burimo ifumbire kandi bwera neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere usanga bukoresha ubutaka bunini cyane, aho usanga bahinga kuri hegitari nini kandi bakeza ibintu byinshi bitewe n'uko baba barakoresheje uburyo bwemewe kandi bwiza.

Muri gahunda za Leta harimo no kubaka ibibuga by'umupira bitandukanye, bizajya bifasha abakinnyi kubona aho bakinira bisanzuye, ibi rero bizazamura impano z'abana b'u Rwanda yo gukina umupira.

Mu Rwanda ubu ibishanga byose byapfaga ubusa bisigaye bihingwamo umuceri, ni yo mpamvu usanga mu duce dutandukanye tw'igihugu hari umuceri kandi ku mafaranga makeya, ibi bituma abaturage bihaza mu biribwa.

Ubuhinzi bwa kijyambere, butera imyaka ku murongo. Ibi ngibi bituma igihingwa kimwe kidacura ikindi intungamubiri, bityo bigatuma ibihingwa bikura neza, bikera bigatanga umusaruro.

Inzu yitegeye iri ahantu ku musozi, isakaje amabati ashaje, iyo nzu ikaba ikikijwe n'amashyamba menshi ndetse n'urutoki ruri inyuma yayo.

Umugabo wambaye ijakete irimo amabara y'ubururu n'umweru, yambaye kandi agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, afite ihene iri iruhande rwe, bigaragara ko arimo arayerekana bitewe n'uko yishimiye kuba baramworoje.

Muri gahunda za leta zitandukanye, harimo n'iyo koroza abatishoboye ihene, kugira ngo na bo bagire amatungo magufiya, ashobora kubagoboka mu gihe icyo ari cyo cyose bahuye n'ikibazo, urugero nk'icyo kwishyura mituweri, kwishyurira umwana amafaranga y'ishuri, kubagurira amakayi, n'ibindi.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo ari kumwe n'umwana we wambaye imyenda y'ubururu, bafite ingurube bari kuhira amazi kugira ngo ishire inyota.

Umworozi mwiza ni umenya ko agomba kugaburira inka ye ubwatsi bwiza bufite intungamubiri zose, ibi rero bituma inka ye itanga umukamo mwiza, bityo na we akabona amafaranga ahagije.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ubona yicaye hagati mu muryango, aho inyuma ye hari inzu nini cyane yororeramo inkoko zitandukanye, ubona ko yize umushinga neza none akaba ari kwishimira iterambere agezeho.

Umugabo wishimira kuba yoroye amatungo magufi ndetse n'amaremare. Aho ari kuvuga ko bimufasha cyane kuko bimuha amafaranga yo gukemura ibibazo bye bya buri munsi. Ibi rero ni byiza kubera ko bituma yikenura.

Kera wasangaga abantu batunze inka bashobora kuziragira ku gasozi ariko muri iki gihe leta ibyo yarabiciye, ni byiza ko rero abantu batunze amatungo, bayubakira ibiraro kugira ngo abone ahaba.

Umubyeyi, wishimira ko yorojwe amatungo magufi y'ihene, akaba ashimira Leta y'u Rwanda ko yamworoje. Avuga ko bizajya bimufasha kwikemurira ibibazo bitandukanye, ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, usanga bugirira akamaro ababukora kubera ko bubafasha kwikemurira ibibazo byabo bya buri munsi kuko usanga zikura vuba kandi ntizirya ibintu byinshi.

Abantu bakoze uruziga, hagati harimo ingurube, ubona ko bari korozwa itungo ry'ingurube kugira ngo babashe kwiteza imbere, bijye binabafasha gukemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ubona ko ari mu kiraro yubakiye inkoko nyinshi yoroye, akaba arimo azigaburira aziha ibiryo ndetse n'imiti itandukanye avanga kugira ngo azirinde uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube ni ingenzi, cyane cyane ku baturage kuko bibafasha kwikemurira ibibazo bitandukanye birimo nko kwishyura minerivare z'abana, kugura mituweri n'ibindi.

Ubworozi bw'ingurube, ni imwe mu mishinga iteza imbere Abanyarwanda, kuko ibafasha kwikemurira ibibazo bitandukanye, bahura na byo buri munsi.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, kuko buteza imbere umuntu ubukora, bigira amafaranga kandi ntibigoye, usanga rero abantu benshi babijyamo kandi bikabagirira akamaro kanini.

Ubworozi bw'inkoko na bwo ni bwiza kuko buteza imbere ubukora kandi mu buryo butagoye, korora inkoko ntibisaba ibintu byinshi cyane kuko zirya ibiryo bisanzwe.

Umugore wishimira kuba yarorojwe amatungo magufi, kubera ko ngo bizajya bimufasha kwikemurira ibibazo bitandukanye bya buri munsi, urugero nko kwishyurira abana minerval, ndetse no kubagurira ibikoresho by'ishuri.

Iyo woroye inka ni byiza kumenya uko ugomba kuzitaho, kubera ko iyo utabikoze zirarwara ugasanga uguye mu gihombo, kandi na zo ziba zikeneye kwitabwaho, kurya neza n'ibindi bitandukanye ndetse no kuvurwa.

Ubworozi bwa kijyambere bukoresha ibikoresho biteye imbere, ibi rero ni byiza kuko bituma abakora imishinga yabo biborohera kandi bakabona umusaruro mwinshi cyane, waba uw'amagi ndetse n'inyama zikomoka ku matungo.

Ubworozi bw'amatungo magufi ya nk'ihene nabwo ni ingirakamaro, kuko bufasha umuntu ubukora kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo abafite bitandukanye birimo nko kwishyurira abana minerevare, kubagurira ibikoresho by'ishuri, kwishyura mituweli n'ibindi.

Iyo ugiye gukora umushinga wo korora inkoko ni byiza ko wegera abasanzwe bawukora kugira ngo bagusobanurire ibyiza ndetse n'ibibi biba muri uyu mushinga, bityo ukanababaza uko wabigenza kugira ngo umushinga wawe ugende neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, bugirira akamaro ubukora kubera ko usanga bibafasha kwikemurira ibibazo bitandukanye kuko burya iyo ufite itungo rirakugoboka bityo rikakurengera.

Ubworozi bw'inkoko ni imwe mu mishinga iteza imbere abayikora, rero umuntu ashobora korora inkoko zirimo izitera amagi ndetse n'izitanga inyama, aho bisaba kuzigaburira ibiryo bigezweho kugira ngo zikure vuba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara yifashe mu mufuka, arimo arareba inka ziri mu biraro byazo, aho ari kwitegereza uburyo zimeze neza bitewe nuko zifashwe neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare ,urugero nk'ihene n'inka ni ingenzi kuri buri muturage wese w'u Rwanda, kuko bimufasha kubona amafaranga, bagakemura ibibazo byabo bya buri munsi, nko kwishyurira abana minerivare, kwishyura mituweli, kubona amata yo kunywa, ndetse n'ibindi.

Korora amatungo magufi nk'ihene, ingurube ndetse n'izindi, ni byiza ku muturage kuko bimufasha kwikemurira ibibazo bye bya buri munsi, bitamusabye kuguza amafaranga.

Inka yabyaye inyana, ubona ko bisa kandi ari byiza cyane, ni byiza rero korora inka kubera ko bizana inyungu, bigatanga amata haba ku mworozi ndetse no ku bandi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube ni ingenzi kuko bufasha Abanyarwanda kwiteza imbere, kwikemurira utubazo dutandukanye baba bafite nko kwishyura mituweli, kugura ibikoresho by'ishuri ndetse no kwishyura minerivare z'abana.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane kuko bufasha abantu kwiteza imbere ndetse no kwikemura ibibazo ariko ni byiza kubukora kinyamwuga, ugendeye ku mabwiriza ashyirwaho kugira ngo ubone umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ni ingenzi ku babukora kuko bubafasha gukemura ibibazo bitandukanye bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo nko kwishyura mituweli, kwishyurira abana minerivare n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ihene, ni ingirakamaro cyane cyane ku baturage b'u Rwanda, kuko bubafasha kwiteza imbere ndetse no kwikemurira ibibazo bya buri munsi; haba kwishyura minerivare y'abana cyangwa se no kubagurira amakaye.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo nk'ihene, ni ingenzi, kubera ko zitanga umusaruro utandukanye, haba uw'inyama ndetse bikazanirana n'inyungu umworozi.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo maremare ni bwiza kubera ko butanga umusaruro mwinshi w'amata ndetse n'inyama, ni byiza rero ko aborozi bamenya uko bita ku matungo yabo kugira ngo bakomeze babone umusaruro mwinshi.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane kuko bifasha ubukora kubona inyungu nyinshi kandi mu gihe gitoya, kubera ko ingurube zikura vuba kandi zigatanga umusaruro.

Umwana wambaye agapira k'umukara ndetse n'akajipo k'umutuku. Ari kumwe na mama we, aho barimo barita ku matungo bahawe, baboroza, kugira ngo na bo biteze imbere, be gusigara inyuma. Kandi ajye abafasha no kwikemurira ibibazo bahura na byo buri munsi.

Itsinda ry'abantu biganjemo abambaye ibara ry'umweru, baje gusura umuntu ufite umushinga woroye amatungo magufi y'ingurube, bakaba bagiye kumutera inkunga bitewe nuko na we yigejeje kure.

Muri gahunda za Leta harimo no koroza Abanyarwanda amatungo magufiya. Ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kwikemurira ibibazo bitandukanye bahura na byo buri munsi kandi na none ibi ngibi bituma abantu babona ko itungo rifite akamaro.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube ni bwiza cyane. Kubera ko bufasha ababukora kwiteza imbere, ndetse no kwikemurira ibibazo bitandukanye, bahura na byo buri munsi.

Ubworozi bw'ingurube buteye imbere, usanga ari bwiza kandi buha amafaranga ubukora. Ibi bituma biteza imbere, kandi bagasagurira n'amasoko, kuko ingurube zivaho inyama.

Muri gahunda za leta harimo no koroza abanyarwanda amatungo magufi kugira ngo na bo biteze imbere binyuze mu kuyorora ndetse bakanikemurira ibibazo bitandukanye.

Umugore urimo urerekana itungo rye ry'ingurube yoroye, yishimira kuba rizamuteza imbere kandi rikamufasha kwikenura, ibi rero ni byiza kuko bituma abantu bikemurira ibibazo byabo.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bakoze uruziga, hagati yabo harimo ingurube nyinshi, ubona ko bishimiye kuba boroye ingurube kuko zituma babona amafaranga bityo bagakemura ibibazo byabo.

Mu Rwanda badushishikariza korora by'umwihariko amatungo maremare nk'inka, ariko ni byiza ko iyo woroye itungo uryitaho, ukariha aho riba heza hasakaye bityo rigatanga umusaruro kandi na ryo rikabaho neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube bufasha cyane ubukora kubera ko bumufasha kwikemurira ibibazo bitandukanye bya buri munsi harimo nko kwishyurira abana minerivare, kubagurira ibikoresho by'ishuri, kugura mituweri n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube ni bwiza, kandi bufasha ababukora kubera ko butuma biteza imbere, bakikemurira ibibazo bahura na byo buri munsi, harimo nko kwishyura menerivare, kugura ibikoresho by'ishuri n'ibindi.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza kuko ingurube ari itungo rikura vuba kandi ritanga amafaranga mu buryo bwihuse, ushobora kuryororera mu kiraro cyangwa se n'ahandi hantu hose, ibyo rero bigatuma abantu benshi barikunda.

Inka ni itungo ryiza buri munyarwanda wese yakagombye kuba afite mu rugo iwe kubera ko ni itungo ritanga amata bityo umuryango ukanywa amata meza ikindi ryinjiza n'amafaranga kubera ko ayo mata iyo uyajyanye ku ikusanyirizo baguha amafaranga.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, aho asutamye ari kureba ingemwe ze yinajije ngo arebe niba zarakuze neza bityo azijyane kuzitera ahabugenewe.

Igihingwa k'ikigori ni cyiza cyane kuko usanga kivamo ibintu byinshi bitandukanye abantu barya, umuntu ashobora kukirya kikiva mu murima cyangwa se akacyanika akagishesha akaryamo kawunga.

Ubuhinzi bw'amashu nk'imboga ziba zikenewe n'abantu ni bwiza kandi ni ingenzi ko Leta ibishishikariza abantu kugira ngo babukore, uretse no kuba abantu babikeneye kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza bizanira n'inyungu umuhinzi.

Abahinzi babigize umwuga iyo bamaze guhinga ibigori bakeza, usanga bubaka hangari babimanikaho kugira ngo byume neza, mbere yo kubijyana mu ruganda bakabikoramo akawunga.

Ubuhinzi buteye imbere ni bwiza kuko bukurikiza amategeko. Harimo nko gutera ku murongo, guteresha ifumbire mvaruganda n'imborera n'ibindi, ibi rero bituma umusaruro wiyongera bityo abaturage bakabona ibyo barya kandi bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'urusenda na bwo bwateye imbere, kubera ko kuri ubu ngubu umuntu ashobora guhinga urusenda akarwohereza no mu mahanga bikamwinjiriza amafaranga menshi, ibi rero bisigaye bituma abantu benshi mu Rwanda bahinga urusenda bakabikora kandi nk'umushinga.

Aha ni ku isoko, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bazana ibicuruzwa byabo kubigurisha kugira ngo babone amafaranga, ibyo bicuruzwa kandi biba biririmo amashu ndetse n'ibindi.

Ibijumba bikaba ari ibihingwa ngandurarugo, umuhinzi ahinga kugira ngo agaburire umuryango we ariko iyo yabihinze neza akabishyiraho ifumbire ashobora no kubijyana ku isoko akaba yabikuramo n'amafaranga.

Umuveterineri wambaye isarubeti y'ubururu akaba ari kumwe n'undi mubyeyi ufite inyana ntoya isa umukara, barimo barayikata amahembe kugira ngo ikure neza ayo mahembe atazayonka bityo ikananuka.

Ni byiza ko iyo ufite itungo rirwaye uhamagarare veterineri kugirango arisuzume. Byaba ngombwa niba rifite indwara akaritera imiti, bityo rikagira ubuzima bwiza n'umworozi nawe kandi akishima.

Abantu biganjemo ab'igitsina gabo bashikamiye inka aho bari kwikata amahembe kugira ngo izakure neza, bitewe n'uko amahembe yonka inka ikiri ntoya, bigatuma idakura neza nkuko byari bikwiye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ukora mu cyumba kirimo imashini nyinshi. Ni byiza rero kumenya ko umuntu ukora mu cyumba kirimo imashini, abifitiye ubumenyi kandi yabihuguriwe. Kugira ngo bidateza impanuka.

Mu Rwanda iyo igihe kigeze usanga abayobozi bakangurira abaturage kujyana inka zabo ku murenge cyangwa se n'ahandi hantu hatoranyijwe kugira ngo ziterwe inkingo z'indwara runaka iba yateye kugira ngo bayirinde ndetse birinde n'imfu.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse yambaye n'uturindantoki arimo aravura inka, ni byiza rero ko mu gihe inka yawe yagize ikibazo, utumira veterineri kugira ngo akurebere ikibazo inka yawe ifite hakiri kare bityo ukirinda impfu z'inka.

Abanyarwanda benshi bamenye iby'ubworozi, usanga bafite inzuri nyinshi zitandukanye baragiramo inka zabo kubera ko iyo ufite urwuri birakorohera kuko ushyiramo inka zawe zikarishamo.

Iyo woroye itungo, by'umwihariko inka. Ni byiza ko, umenya uko ugomba kuryitaho. Ukarigirira isuku, ukariha ibiryo bisukuye kandi bifite intungamubiri. Iyo ukurikije ibi byose, nawe ubona umusaruro.

Muri iki gihe si ngombwa kujyana itungo ryawe ku kimasa, ushobora guhamagara veterineri maze akayitera inanga, ibi ngibi bigufasha gutuma ubyaza inyana wifuza kandi y'ubwoko wifuza.

Ubuyobozi bw'ibanze usanga bushishikariza abaturage kujya gukingiza amatungo yabo kugira ngo bayarinde indwara zisigaye zibasira amatungo, ibi rero bituma amatungo yabo aramba kandi agira ubuzima bwiza.

Muri iki gihe si ngombwa ko ufata inka yawe ngo uyijyane ku kimasa, ahubwo ushobora guhamagara veterineri w'umwuga akayitera intanga, ibi rero bifasha kuba inka yawe yabyara inyana wifuza.

Inkende ziba muri pariki y'Akagera usanga zibereye ijisho, zifite amabara atandukanye arimo umweru n'umukara, ibi rero bikurura ba mukerarugendo aho bazana amadovize, Igihugu cyacu cyikayifashisha gikora ibikorwaremezo bitandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi zitandukanye, zirimo inkende, inguge, n'izindi, ni zimwe mu ziba muri pariki y'akagera, izi nyamaswa rero bitewe n'ukuntu zifite amabara meza, zikurura ba mukerarugendo benshi, na bo bakazana amafaranga.

Ni byiza kubungabunga inyamaswa z'agasozi dukora, ibintu byinshi bitandukanye, nko kwita ku bidukikije, kuko izi nyamaswa uba usanga ziba mu mashyamba. Ibi rero bituma zibona aho ziba, zishimye.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi tugira hano mu Rwanda mu maparike atandukanye, haba Parike y'Akagera ndetse n'iya Nyungwe. Izi nyamaswa rero bitewe n'ukuntu zitonda kandi zigaragara neza, abakerarugendo benshi baza kuzireba.

Muri parike y'Akagera usanga harimo inyamaswa nziza zibereye ijisho nk'impala, imparage ndetse n'izindi, izi zose rero zikurura ba mukerarugendo, aho baturuka mu bice bitandukanye by'Isi baje kuzireba.

Imparage ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi. Zikurura ba mukerarugendo. Ziba muri Pariki zitandukanye hano mu Rwanda, harimo: nk'iy'Akagera ndetse n'iya Nyungwe. Ziba zifite amabara arimo umukara n'umweru.

Inguge ni imwe mu nyamaswa ziri mu bwoko bw'inkende ndetse n'izindi, zikaba ziba muri parike hano mu Rwanda, irimo parike y'Akagera ndetse n'iya Nyungwe, zikaba zikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa z'agasozi harimo nk'inguge, inkende n'izindi, ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda, ku buryo benshi baza baje kuzireba bagatanga amadovize.

Muri Parike y'Akagera ndetse n'iya Nyungwe usanga harimo inkende nyinshi ndetse n'inguge, zifite amabara meza ku buryo bikurura ba mukerarugendo cyane bakaza kuzireba bitwaje amadovize.

Agasumbashyamba ni zimwe mu nyamaswa ziba muri parike hano mu Rwanda, urugero nka parike y'Akagera ndetse n'iya Nyungwe. Izi rero ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo cyane, kuko ni nziza cyane kandi ziba ari ndende ku buryo ziba zibereye amaso.

Inkende ndetse n'izindi nyamaswa nk'inguge, zose ziba muri Parike y'Akagera. Kandi zikurura ba mukerarugendo baturutse impande n'impande kui Isi, bakazana amadovize yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Ihene z'ishyamba cyangwa se imparage, na zo ni zimwe mu nyamaswa zibarizwa muri parike z'u Rwanda, haba iy'Akagera n'iya Nyungwe, izi nyamaswa zikunze gukurura ba mukerarugendo baje kuzireba, bitewe n'ukuntu ari nziza.

Muri parike y'Akagera harimo amasha, imparage ndetse n'izindi nyamaswa nziza cyane zikurura ba mukerarugendo baturutse mu bice bitandukanye by'isi, bakaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitwaje amadovize igihugu cyacu cyifashisha mu kubaka ibikorwa remezo.

Parike ya Nyungwe ni imwe muri parike u Rwanda rufite. Hakaba harimo ikiraro cyo mu kirere kiza cyane kuko gikundwa n'abantu batandukanye harimo ba mukerarugendo. Bityo bigatuma bakunda kuhaca.

Inyamaswa z'agasozi zirimo inkende ndetse n'izindi nkazo ni nziza cyane kandi zikurura ba mukerarugendo bavuye hirya no hino ku Isi aho baza baje kuzireba, bigatuma Igihugu cyacu kibona amadovize bifashisha mu kubaka ibikorwaremezo.

Inkende, inguge ndetse n'utundi tunyamaswa dutandukanye tuba muri parike y'Akagera, usanga dusa neza dufite amabara meza, ibi bituma ba mukerarugendo bazikunda bagahora baza kuzireba, ari nabyo bituma bazana amadovize menshi.

Inyamaswa ziba muri Pariki y'Akagera, usanga ari nziza cyane zifite amabara meza. By'umwihariko nk'inkende, inguge n'izindi. Ibi rero bikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize, bityo Igihugu cyacu kikabona amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye.

Muri parike z'u Rwanda usanga harimo ibiraro byo mu kirere. Bikaba bikundwa cyane na ba mukerarugendo, kuko iyo babihagazeho baba babasha kwibera imisozi minini cyane kandi myinshi y'u Rwanda.

Ihene y'ishyamba ni zimwe mu nyamaswa ziba muri pariki zitandukanye z'u Rwanda, ushobora kuyisanga mu Kagera cyangwa se no muri Nyungwe, ibi rero bituma abakerarugendo baza baje kureba izi nyamaswa, bityo n'Igihugu kikinjiza amadovize.

Inkende usanga ziri mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, aho abanyarwanda baziterera ibiti by'imbuto bitandukanye, kugira ngo zibeho, rimwe na rimwe bakaziha n'ibyo zirya, mu gihe ibyo biti byahunduye.

Impala n'imparage ni zimwe mu nyamaswa ziba muri pariki zitandukanye hano mu Rwanda, harimo nka parike y'Akagera n'iya Nyungwe, zikaba zikurura ba mukerarugendo batanga amadovize, bityo igihugu kikabona amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo bitandukanye.

Inkende, inguge ndetse n'izindi nyamaswa ziba muri Parike y'Akagera ni nziza cyane, ziba zibereye ijisho kandi zikurura ba mukerarugendo ku buryo usanga baza kuzireba ari benshi.

Muri Parike y'Akagera harimo inyamaswa zitandukanye nziza cyane zibereye ijisho. Urugero: hari nk'inyoni ndetse n'ibindi. Inyoni iri hano ifite amabara atandukanye. Harimo: umuhondo, umukara ndetse n'umutuku.

Mu Rwanda by'umwihariko muri parike, urugero nk'iy'Akagera ndetse n'i Nyungwe, usanga harimo ibiraro by'imigozi biba biri mu kirere, ibi rero abakerarugendo barabikunda. Bityo rero bituma bakunda kuhaza.

Muri parike ya Nyungwe hano mu Rwanda usanga harimo amoko atandukanye y'inyamaswa, nk'inkende, inguge n'izindi zitandukanye, izi nyamaswa bitewe n'ukuntu ari nziza zikurura ba mukerarugendo na bo bakazana amadovize, igihugu cyacu kikabona amafaranga yo kubakisha ibikorwa remezo.